Kuri sitasiyo y'amashanyarazi hahagaze abagabo batandukanye, barimo bambaye amajire y'icyatsi ndetse n'undi wambaye ijire y'umutuku, bambaye utugofero tw'akazi bamwe bambaye inkweto z'akazi biragaragara ko barimo baraganira, umwe yabirengagije arimo arareba hirya asa nkureba muri kamera

Mu nyubako yabereyemo inama itagaragara hose, yicayeyemo abantu benshi batandukanye biganjemo inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubuyobozi, hari abagabo bicaye imbere harimo umugabo wambaye imyenda ya Polisi n'umugore umwicaye iruhande wambaye imyenda ya Polisi bigaragara ko ari inama y'abayobozi ariko ntabwo bose bagaragara.

Mu murima utagaragara wose uri imbere y'ishyamba naryo ritagaragara neza abagabo batandukanye bari mu gikorwa cy'umuganda barimo n'inzego za gisirikare bafite amazuka bombi barimo guhinga bamwe bayazamuye abandi bayakubise hasi.

Mu kibuga cy'umupira kitubakiye haragaragaramo abantu babiri, umwe ni umukinnyi wambaye ijesi y'ubururu iriho nimero gatandatu, undi ni umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara wambaye amanete atagaragaza amaso arimo aratambuka.